Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara umugabo wambaye inkweto za bodaboda z'icyatsi. Akaba ahetse imashini itera umuti mu bitunguru, bigaragara ko ari gutera umuti ibitunguru, wica udusimba twangiriza imboga.

Umudamu urimo kuvomera imyaka ayitera umuti wica udusimba mu myaka bigaragara ko arimo.

Umuhinzi wabigize umwuga urimo gutera umuti wica inkongwa mu myaka, bigaragara ko ari gutera umuti mu bigori yambaye uturindantoki ndetse ahetse imashini itera umuti isa umuhondo, ifite umufuniko w'umukara n'igitereko cy'umukara.

Abagabo babiri barimo kuhirira umuceri, bigaragaza ko bari no kuvomerera mu buryo bwo kongera amazi mu butaka birinda ko imizi yabo yakuma ndetse hagakomera.

Umugabo wambaye imyenda ifunganye hose y'umweru igaragara nkaho ikoze mu bishashi, yambaye ndetse n'udupfukantoki ndetse n'agapfukamunwa k'umukara bigaragara ko ari gutera umuti wica udusimba mu myaka ahantu hagaragara igihuru.

Ubuhinzi bukomeje gutezwa imbere mu Rwanda, ahagaragara umugabo urimo gutera umuti mu myaka. Uwo mugabo bikaba bigaragara ko ahetse imashini itera umutima mu mugongo, akagenda apuriza ku myaka mu buryo bwo kurwanya ubusimba bwangiza imyaka.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu kwita ku myaka ndetse no ku bikorwa by'ubuhinzi. Ahagaragara umugabo urimo kuvomera ndetse anatera umuti mu myaka. Bigaragara ko arimo kurwanya ubusimba bwangiza imyaka.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere ahagaragara umugabo urimo gutera umuti mu myaka bigaragara ko ari nk'imboga nyinshi cyane, mbese bigaragara ko arimo kurwanya ubusimba bwangiza izo mboga.

Ubuhinzi bugezweho mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara umuntu bigaragara ko ari umuhinzi uimo gutera umuti mu nyanya izo nyanya zikaba zitaratukura bigaragara ko hakurya hari izindi mboga z'amashu zihahinze bigaragara ko u rwanda rukomeje gutera imbere mu kwita ku mboga uburyo bwo kurwanya imirire mibi.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara umugabo urimo gutera umuti ahetse imashini itera umuti umugongo, bikagaragara ko ari gutera umuti wica udusimba twangiriza imyaka.

Umugore w'umucuruzi bigaragara ko acuruza ibijyanye n'umurama w'amashu, umurama w'inyanya, umurama wakaroti ndetse n'ibindi bikenewe kugira ngo bice ubusimba bwangiriza imyaka harimo ndetse na kiyoda.

U Rwanda rukomeje kwiteza imbere mu bijyanye n'ubuhinzi, ahagaragara umuntu urimo gutera umuti mu myaka. Bigaragara ko arimo gutera umuti wica udusimba ndetse n'udukoko dushobora kwangiza imyaka.

Ubuhinzi mu rwanda bumaze gutera imbere, aho tubona umugabo uhetse imashini itera umuti mu myaka, bica ubusimba, bwangiza imyaka, arimo gutera umuti mu myaka, igaragara nk'itoshye cyane.

Umurobyi uri gukura amazi mu cyuzi kimwe ayashyira mu kindi kugira ngo arinde ubuzima bw'amafi ndetse yuko yakangirika. Ibyo byuzi inyuma yabyo hakaba hari senyege zifashe mu byuma, zirinda ko abantu bapfa kwinjira uko biboneye.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere mu Rwanda. Ahagaragara icyuzi kirimo amafi y'umweru menshi cyane. Icyo cyuzi kikaba kirimo amazi y'urubogobogo, uruhande rumwe ajya gusa n'ikirere, urundi ruhande ukaba ubona yafashe igihu.

Aha ngaha biragaragara ko uburobyi bukomeje gutera imbere, uko bigaragara abasare babiri ndetse bakaba n'abarobyi bari gutera inshundura mu mazi, basa n'abashakaba kuroba amafi, bakaba bari kugendera mu bwato busa umukara, bose bakaba bahugiye mu gikorwa kimwe.

Aborozi b'amafi babigize umwuga barimo kunaga ibyo kurya by'amafi byuzi. Abo borozi bakaba ari aborozi batatu, bigaragara yuko basa n'aho babikora kandi babikunze mu buryo bwo kongera ubukungu.

Ubworozi bw'amafi mu Rwanda bukomeje gutera imbere ahagaragara ibyuzi by'amafi bitandukanye muri aka gace ndetse n'ahantu haruguru hatunganyirizwa ibindi bikorwa bitandukanye bigaragara nk'aho ari ingurube ndetse hakaba hakorerwa n'igikorwa cy'ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere.

Abaturage bari mu murima aho bigaragara ko inyuma yabo hari umugezi, abo baturage hakaba harimo abadamu ndetse n'abapapa, bigaragara ko basa n'abafite ibyo bari gutera muri uwo murima bose bunamye, harimo abunamye ndetse n'abahagaze.

U Rwanda rukomeje kwiteza imbere mu mirire myiza bitewe n'uburyo bw'ubworozi bw'amafi ndetse n'ibindi byose bikomoka ku matungo. Uburyo bwo kurwanya indwara ahagaragara icyuzi kirimo amafi menshi...

Uburobyi bukomeje gutera imbere muri aka gace, ahagaragara abarobyi b'abagabo bari mu mazi barimo kuroba amafi, bashyize inshundura yabo mu mazi, bigaragara ko bose bahugiye mu gikorwa cyo kuroba ayo mafi mu nshundura zabo.

Ubworozi bugezweho bw'amafi, bigaragara ko ari byuzi bigiye bisakayeho agace gatoya. Ubu bworozi bukaba ari ubworozi bugezweho, bigaragara ko ari ubworozi bwa kijyambere.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu gikorwa cy'uburobyi bw'amafi kuko bigaragara ko ari mu Rwanda hari abarobyi barobye amafi, bakaba bagiye bayatwara mu tuntu twayo dutandukanye mu buryo bwo kwirinda ko yakwangirika.

Abarobyi barimo kuroba amafi abo barobyi bakaba bafite inshundura ndetse hakaba n'undi ufite ibase y'umukara y'imikondo arimo gufata ifi mu ntoki, aba barobyi bakaba barobye amafi menshi ndetse bikaba bigaragara ko bari mu kiyaga.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu bworozi bw'amafi, ahagaragara umuntu ufite amafi mu kiganza, bigaragara ko arimo kugenda ayarora. Ayo mafi akaba ari mu biganza, andi akaba ari mu ibase y'ubururu.

Ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere muri aka gace, ahagaragara umudamu urimo gusuka ibyo kurya by'amafi mu mazi, hagaragara amafi menshi cyane arimo kurya ibyo biryo byazo.

Ubworozi bw'amafi mu Rwanda bukomeje gutera imbere ahagaragara ibyuzi bigiye bitandukanye mu gace turimo kubona kuri iyo foto, aho tubona ibyuzi byinshi by'amafi bigaragaza ko amafi akomeje kororoka mu Rwanda.

Umugabo ufashe ifi mu ntoki bigaragara ko iyo fi ifite n'ibiru byo usanga ko afite imbaraga mu kuyiterura, umugabo akaba yambaye agapfukamunwa ndetse n'agapira gasa ubururu bwerurutse n'ipantaro isa umukara.

Aha biragaragara ko ubworozi bw'amafi bukomeje gutera imbere, ahagaragara ibyuzi bigiye bitandukanye byinshi by'amafi, bigaragara ko amafi akomeje kwitabwaho mu buryo bwo kongera umusaruro w'amafi ndetse n'uburobyi mu Rwanda.

Abaturage barimo kuvoma amazi bakoresheje indobo bigaragara ko bari mu buryo bwo kuvomera amazi bayakura mu kiyaga ahagaragara impande yabo ubwato bwabo, abo baturage bakaba bambaye amasarubeti ya kake.

Abarobyi b'amafi babigize umwuga bigaragara ko bambaye n'iyenda y'akazi, impanda yabo hari ikigega cy'umweru kirimo kohereza amazi mu cyuzi, bakaba bambaye amasarubeti asa ubururu afite uturongonko duciyemo tw'umweru ndetse n'umukara.

Abantu babiri bigaragara nkaho bakundana, ari umugore n'umugabo, bigaragara ko bagiye ahantu hatuje cyane, ho kwiyakirira, ku buryo bagiye no kureba ibyiza nyaburanga bitatse isi, aho bigaragara ko bambaye ingofero ndetse n'amasarubeti afunguye hejuru.

Aha ngaha bigaragara ko u Rwanda rumaze gutera imbere mu bijyanye no guhinga ikawa, ahagaragara abadamu barimo gutunganya ikawa nyinshi cyane, hari ahantu bayisuka kugira ngo bayitunganye bayitoremo ibihuhwa.

Ubuhinzi bw'ibicuruzwa bwoherezwa mu mahanga bikomeje gutera imbere, ahagaragara umudamu ufashe mu kiganza cye ikawa isa n'iyumye neza, bigaragara ko itangiye kuma cyane ndetse hasi hakaba hari n'indi y'ibitumbwe, ikiri mu mashami y'ikawa.

Umugabo uhetse igikapu cy'umukara, umugabo akaba asa n'urimo gukoresha telefoni y'inziramugozi ya telefoni ayifashe ku gutwi ari mu murima w'icyayi icyayi bigaragara ko gitoshye gisa n'ikeze cya taye hakurya ye hakaba hari ishyamba.

Ubuhinzi bw'ibyoherezwa mu mahanga mu Rwanda, bukomeje gutera imbere mu buryo bwo kuzana amafaranga y'abanyamahanga mu Rwanda bikongera ubukungu bw'igihugu, ahagaragara ikawa nyinshi kandi itatse uburwererane bw'ikawa yeze cyane.

Igihingwa cy'ikawa mu Rwanda gikomeje gutera imbere kuko cyinjiza amafaranga y'amanyamahanga mu Rwanda, bikaba bigaragara ko hano ari ikawa ihahinze itukuye.

Ubuhinzi bw'ibyoherezwa mu mahanga bukomeje gutera imbere cyane cyane nk'ikawa kuko hagaragara ikawa isa n'ihishije cyane ndetse n'indi ikiri ibitumbwe itarera ibe yahisha ihinduke umutuku.

Ubuhinzi mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara nk'aho hahinze ku murongo ibihingwa bitandukanye kandi byiza binatoshye, kuburyo nta nzara wabara hano hanntu.

Ikawa isa n'iyumye, igaragara nkaho ari ikawa y'u Rwanda bitewe n'ibendera ry'u Rwanda ririho mu mabara atatu; iry'ubururu, iry'umuhondo ndetse n'iry'icyatsi. Iyo kawa ikaba igaragara yumye.

Ubuhinzi bw'ibicuruzwa byoherezwa hanze mu Rwanda bukomeje gutera imbere ahagaragara ikawa itukuye cyane harimo gutoranyamo ikawa nzima bagasiga bakuyemo ibihuhwa bagasiga ikawa nzima ku ishitingi bigaragara ko umusaruro w'ikawa ukomeje kwiyongera.

Ubuhinzi bw'ikawa yoherezwa mu mahanga bukomeje gutera imbere mu buryo bwo kongera umusaruro w'Igihugu, ahagaragara abaturage basaruriye umusaruro wabo mu gitebo bigaragara ko ari uw'ikawa.

U Rwanda rukomeje kwiteza imbere mu gutunganya ibicuruzwa bijyanwa hanze nk'ikawa. Aha hagaragara abaturage baririmo gutoranya ikawa, bakuramo ibihuhwa ku buryo bigaragara ko hari ikawa nyinshi cyane, mbese bigaragara nk'itsinda rikorera hamwe.

Umuturage urimo gusarura ikawa, aho bigaragara ko ari gusarura ikawa mu gitebo, imwe ayifashe mu kiganza asa n'uri kuyishyira mu gitebo ahetse mu mugongo, icyo gitebo kikaba kigaragara nk'aho aricyo asaruramo iyo kawa ndetse bigaragara ko ihishije neza.

Umudamu wambaye ishapule mu ijosi barimo gusarura ikawa bigaragara ko harimo itukuye ndetse n'itaratukura ikiri mbisi. Uwo mudamu akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu, ndetse n'ishati y'amaboko magufi y'ubururu, irimo utubara twumutuku n'umukara.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gukataza mu Rwanda, aho bigaragara ko aha ngaha hari ikibaya cy'umuceri usa n'ugiye kwera, utangiye kuraba ariko bigaragara ko uwo muceri ari mwinshi cyane, mu buryo bwo kongera imirire myiza mu banyarwanda.

Abasoromyi barimo gusoroma icyayi ,bahetse intebo mu mungongo zo gusoromeramo icyo cyayi ,bigaragara ko buri wese ahugiye mu gusoroma icyayi .Kandi bikaba bigaragaza ko babayeho neza ,kuko babona amafaranga muri iki cyayi abatunga.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje gutera imbere cyane cyane inyamabere, bigaragara ko ari amaherena y'inka ndetse n'andi matungo atandukanye n'agakoresho kifashishwa mu gutera amaherena muri izo nyamanswa.

Ahagaragara imiti isa naho ari iy'inka, iyo miti ikaba iri mu dukarito tugiye dutandukanye ndetse no mu gacupa kari iruhande inyuma yako hari akandi, dufite imifuniko y'umweru ndetse twanditseho mu nyuguti z'ubururu.

Imiti igiye itandukanye ikoreshwa mu kwica udusimba mu myaka twangiza imyaka, bigaragara ko miti ari ingamba zo kurwanya byonyi mu myaka , abaturage kugira ngo babone ibibatunga.

Leta y'u Rwanda ikomeje gukataza mu gushaka igisubizo cyo kurwanya ibyonnyi ndetse n'byago bihuranye n'amatungo ishaka imiti, ahagaragara imiti y'ubwoko bwinshi aha ngaha yo kurwanya ibyorezo bikunze gufata amatungo.

U Rwanda rukomeje kwiteza imbere mu gushaka umuti urambye wo kurwanya indwara mu myaka ndetse no mu matungo, bigaragara ko uyu ari umuti w'amatungo uri mu macupa y'umweru, hejuru apfundikiwe n'imifuniko y'umweru.

Leta y'u rwanda ikomeje gutera imbere mu kuzamura uburyo bwo korora amatungo, itanga bimwe mu byongera kuzamuka ndetse no kuganduka ndetse no gukura kw'amatongo y'inyamaswa z'inyamabere, zororerwa mu rugo.

Imiti iri mu dukarito, iyo miti ikaba bigaragara ko ari imiti ikoreshwa mu kuvura inkoko, bigaragara ko ari iy'inkoko, bitewe nuko aha kuri ibyo bikarito hashushanyijeho inkoko n'imishwi, bigaragaza ko ari iyo kuvura izo nkoko.

U Rwanda rumaze gutera imbere mu gutunganya imiti ivura amatungo, ahangaha kuko hagaragara imiti ivura amatungo agiye atandukanye mu buryo bwo kwirinda indwara ndetse n'ibyorezo bya hato na hato no kongera umusaruro uva ku matungo.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu gushaka igisubizo cy'indwara zikunda kwibasira amatungo. Gushaka imiti igiye itandukanye, aha ngaha hagaragara umuti uvura inkoko mu buryo bwo kuzirinda kurwara umuraramo cyangwa se izindi ndwara zitandukanye.

Imiti iri mu macupa y'umweru, iyo miti akaba ari iy'amatungo bigaragara ko ari imiti ihabwa amatungo kuko iri mu macupa agiye atandukanye, amato ndetse n' manini ndetse n'asa ubururu.

Imiti y'amatungo igaragara mu macupa agiye atandukanye, afite imifuniko y'umuhondo n'abafite imifuniko y'umweru, bigaragara ko hari n'ingamba leta y'u Rwanda yasha zo kurwanya, ibyorezo bihura n'amatungo, igatanga imiti.

Mu buryo bwo kunoza no kwita ku matungo mu Rwanda bikomeje gutera imbere, haje imiti mishya ivura amatungo, bigaragara ko iri mu makarito ajya atandukanye ariho amabara y'umutuku ndetse n'ay'ubururu.

Ubworozi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara ko leta y'u Rwanda ikomeje gushaka imiti yo kuvura amatungo agiye atandukanye mu buryo bwo kuzirinda indwara, iyi miti igaragara hano ikaba ari imiti ivura amatungo ifunze mu bikarito.

Umuti w'inka wongera intungamubiri z'inka ndetse n'izindi nyamaswa z'inyamabere harimo; intama, ihene, ingurube ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu muti ukaba uri mu icupa rifite umufuniko w'umweru ndetse rifite no hasi hasa umweru.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu kwita ku matungo, ahagaragara imiti ikoreshwa mu kuvura amatungo atandukanye, bigaragara ko ikoreshwa bitewe n'inyamaswa iyo ariyo cyangwa se iri gutungama.

Ubworozi bw'amatungo bugaragara neza bukomeje gutera imbere, mu buryo bwo kunoza imikorere n'imikoreshereze by'ibikoresho bikomoka ku matungo, aha ngaha kuko hagaragara imiti ikoreshwa mu kuvura ayo matungo y'inkoko ndetse n'ibindi biguruka bitandukanye.

Ubuvuzi bw'amatungo bukomeje gutera imbere aha ngaha hagaragara imiti y'amatungo, bigaragara ko iri mu dufuka dutandukanye, mu dukarito, mu macupa afite imifuniko y'umweru ndetse n'icyatsi, bigaragara ko bikomeje gutera imbere.

U Rwanda rukomeje gutera imbere, ku ruhando mpuzamahanga mu buryo bwo kwita ku amatungo. Ahagaragara ko hakomeje gushaka imiti ivura amatungo nk'inkoko ndetse n'a'yandi matungo magufi yo mu rugo mu buryo bwo kongera ubukungu bw'igihugu.

Imiti ikoreshwa mu kuvura inyamaswa z'inyamabere harimo ingamiya, inka, intama ndetse n'ihene. Iyi miti ikaba iri mu ndobo z'umweru zifite imifuniko y'umweru ariko zifite ikirango cy'urupapuro rusa icyatsi ndetse ku ruhande hakaba n'undi muti uri mu icupa risa umweru.

Abayobozi bagaragara nk'abari mu gikorwa cyo gutera imbuto bigaragara ko bose basa n'abari mu muganda, haragaraga abayobozi benshi ndetse n'umupolisi umwe bigaragara ko aba bose bahungiye mu gikorwa cyo gutera ibiti.

Umukamyi urimo gukama inka, inka igaragara nk'aho ari inyamahane kuko inyuma yayo hari umudamu urimo kuyishishira kugirango idatera umugeri, uwo mukamyi akaba afite akadobo gasa umukara imbere gasa umweru, akaba arimo gukama iyo nka impande yazo hari izindi ziri konsa ziri mu gikuyu.

Umugore n'umugabo basa n'aba gukora bigaragara ko umugabo afite icupa ry'inzoga mu ntoki, uwo mugabo akaba afite umuhoro mu ntoki ari kunyura imbere y'inko.

Abantu bari mu gikorwa wagira ngo n'icy'umuganda, ahagaragara umugabo ndetse n'undi mugore uri ruguru bari gutera ibiti bya avoka bigaragara ko bashaka kurwanya imirire mibi mu buryo bwo gutera imbuto ziramira abantu.

Umugore n'umugabo barimo kugenda basa naho bavuye mu murima, umugabo akaba afite icupa, risa naho rizuyemo inzoga. Uwo mugabo akaba afite n'umuhoro mu ntoki, umugore we yikenyeye igitenge ndetse yiteze n'ikindi, ibyo bitenge bikaba birimo indabyo.

U Rwanda rukomeje kwiteza imbere, mu kurwanya imirire mibi batera kwita ku myaka ndetse n'ibihegwa bitandukanye, ahagaragara ibigori bitoshye cyane biteye ku mirongo, ibyo bigori bikaba bihinze neza kandi bigaragara ko biteye ku murongo.

Igikorwa gisa n'umuganda kirimo gukorwa n'abayobozi bambaye imipira iciye amaboko y'cyatsi, bigaragara ko gutera imbuto mu buryo bwo kurwanya imirire mibi.

Ubuhinzi bukomeza gutera imbere muri aka gace, ahagaragara ko hari abantu bimo guhinga mu kibaya, icyo kibaya kikaba gisa n'aho gihingwamo umuceri, abo bahinzi bakaba barimo guhinga bose basa n'abahuze.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu bijyanye no guhinga ibigori ahagaragara ikibaya kirimo ibigori byinshi cyane kandi byiza. Ibyo bigori bikaba bigaragara nk'aho bisa n'ibitangiye guterera ariko bisa n'ibikiri hasi nkaho bishaka gukura.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwo guhinga ibigori bukomeje gutera imbere ahagaragara abahinzi babiri bari mu bigori bigaragara ko barimo kubyitaho, ibyo bigori bikaba bitoshye cyane bigaragara ko bihinze kimwe kimwe hagiye hacamo intera.

Ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere mu Rwanda ahagaragara umudamu ndetse n'umugabo bafashe igiti kimwe k'imyumbati kiriho imyumbati myinshi cyane kandi minini bigaragara ko ubuhinzi bw'imyumbati bukomeje gutera imbere mu buryo bwo kunoza no kurwanya inzara mu Rwanda.

Abadamu babiri barimo bagenda mu gihuru ahantu hari umucaca muremure cyane, bigaragara ko basa n'abari mu kazi. Umwe w'inyuma afite umuhoro ndetse n'uw'imbere barimo kugenda umwe ari inyuma y'undi.

Abahinzi babiri babigize umwuga bafite amasuka ku rutugu barimo kugenda bambaye imipira y'umukara. Aho ngaho bari guca, akaba ari mu nzira y'igitsibanzira mu byatsi birebire bigaragara yuko basa n'abagiye guhinga, nyuma yaho hari ibiti birebire.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere, ahagaragara amatungo menshi y'amahene ari hamwe menshi cyane ku buryo bigaragara ko uburyo bwo gukurura amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, inyuma hari abantu benshi bigaragara ko ari bo ba nyir'ayo matungo.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere, ahagaragara umugabo urimo guhinga yambaye isengeri, bigaragara ko ibimuhugije ari uguhinga. iruhande rwe hakaba hari ibindi bihingwa bihinze ndetse no hepfo ye hakaba hari kugaragara nkaho ari ikigunda.

Ahagaragara igikorwa cy'ubuhinzi ndetse hari abayobozi barimo gutera imbuto bigaragara ko ari umuganda kuko hari n'abashinzwe umutekano nk'abasirikare aho ngaho bigaragara ko bose bari muri icyo gikorwa cyo gutera imbuto.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu bworozi bw'amatungo maremare y'inka, ahagaragara inka zifite amahembe ndetse zambaye n'urugori, izo nka zikaba zirimo konsa izazo, inyana zazo.

Umuhinzi urimo kubagara ibishyimbo aho bigaragara ko ari kubagara ibishyimbo bitoshye cyane, imbere ye hari ibase y'ubururu ndetse uwo muhinzi akaba yunamye ruguruye hari inzira y'igisibangira igaragara nk'aho umuntu yayinyuramo.

Ubuhinzi bw'ibihingwa byoherezwa mu mahanga bukomeje gutera imbere. Ahagaragara abahinzi barimo kwita ku myaka, bigaragara ko iyo myaka itoshye cyane ndetse barimo kuyibagara harimo n'umudamu uri imbere, nawe usa n'uri kubagara.

Abahinzi babiri bigaragara ko ari umugore n'umugabo barimo guhinga batera imbuto mu murima, bigaragara ko bose bahuze bafite majagu yo gutera izo mbuto mu murima ahantu h'intabire.

Umugore n'umugabo bigaragara ko basa n'abavuye guhinga, bambaye ariko gusa bakaba bambaye neza, bikaba bagaragara bafite amasuka ku rutugu basa n'abavuye gukorera urutoki rwabo, mu buryo bwo kwirinda ubukene.

Ubucudike bwa avoka,. Izo voka bikaba bigaragara ko ari nyinshi cyane, aho bigaragara ko impande y'izoboka zicuditse mu mashashi y'ibihoho, hari ishyamba rinini cyane, bigaragara ko ririmo ibiti bisa n'ibikuze.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere ahagaragara ibigori bisa n'ibyeze, hari ibisaruye ndetse n'ibidasaruye bigihagaze bigaragara ko ari byinshi cyane, inyuma y'ibyo bigori hakaba hari ibiti byinshi biri kugaragara imitwe yo hejuru.

U Rwanda rurakataje mu kwiteza imbere no kurwanya imirire mibi bigaragara ko hano hari imboga zigiye zitandukanye harimo ibitoki ndetse n'inyanya, karoti n'izindi mboga z'ubwoko bwose ku buryo aha ngaha u Rwanda rukomeje gutera imbere.

Ubuhinzi bugezweho bw'ibitoki, ubu buhinzi bukaba bukorerwa ahantu hagaragara nk'ikibaya, iruhande rwaho hakaba hahinze igihingwa cy'imyumbati, hino yaho hakaba hari intabire ndetse bikaba bigaragara ko urwo rutoki ari rwinshi cyane.

Agasozi nyaburanga iyo ukitegeye ubona ahantu hose mu kibaya kiri aho hasi, kirimo ibiti kimwe kimwe ndetse hejuru hakaba hari ikirere gisa umweru, ako gasozi ukaba ubona ko ku ruhande rumwe hari ikibaya.

Ikibaya cy'urwererane kigaragara nk'ikirimo ubwatsi butoshye ndetse kikaba kirimo n'ibihingwa bisa neza nk'ibyabonye imvura cyangwa se bika bivomererwa. Ibyo bihingwa bikaba bigaragara nk'aho ari ibihingwa bikiri bitoya bitarakura.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara umurima umwe uhinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo imyumbati ndetse n'ibitoki ku buryo wakenera kurya kimwe cyangwa ikindi, mu buryo bwo kurwanya inzara mu baturage.

Ikibaya gisa n'igisaruwemo umuceri. Icyo kibaya ku ruhande hakaba harimo abantu bacanye, basa n'abacanye ibisigazwa by'umaceri mu buryo kugira ngo bizongere bikoreshwe mu gihe kizaza nk'ifumbire yo kongera gufasha ubutaka kurumbuka.

Imisambi myinshi igaragara mu kibaya, icyo kibaya kikaba gihinzemo umuceri, bigaragara ko ari umuceri utoshye, imisambi ikaba ifite amababa asa umweru ndetse n'ay'umukara, ifite umutwe ndetse n'umunwa muremure.

Ikigaragara cyo mu Rwanda iterambere rikomeje kuzamuka mu buryo bwo kwihaza mu biribwa, ahagaragara hari imbuto z'ubwoko bwinshi cyane ku buryo uburyo bw'imirire mibi bugiye kugabanuka mu Rwanda, harimo ibyo kurya bitandukanye by'imbuto.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere ahagaragara ikigori gisa n'icyumye cyaguye hasi mu murima ndetse muri uwo muri hakaba hatewemo n'ibindi bihingwa bitandukanye, haba hasa n'aho harimo n'ibyatsi bigiye bitandukanye bihabwa inka.

Ibicuruzwa bitandukanye harimo imiti y'amenyo, hakabamo inyanya, hakabamo n'andi macupa arimo ibindi bintu bitandukanye ndetse n'amashashi n'utundi dupfunyika dutandukanye, harimo ndetse n'amavuta agiye atandukanye.

Ubuhinzi mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara imboga z'inyabutungo ko zikomeje guhingwa cyane mu buryo bwo kurwanya imirire mibi ndetse bakongera inintungamubiri mu biryo bateka mu buryo bwo kurwanya indwara.

Ikibaya kinini cyane kigaragaramo ibihingwa bigiye bitandukanye ahagaragara ko hahingirwa ibihingwa byinshi cyane bitandukanye by'ubwoko butandukanye, impande yacyo hakaba harimo agapoto gasize irange ry'umutuku ndetse n'umweru.

Aka gace kagaragara ko ubuhinzi bukomeje gutezwa imbere, haragaragara igihingwa cy'imyumbati gihinze ku ntera gitandukanye, aho bigaragara ko hahinzemo imyumbati ndetse n'ibijumba n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye ndetse hamwe hakaba ari intabire.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu kwihaza mu biribwa, ahagaragara ibigori bihinze bisa n'ibyumye bigaragara ko nta ndwara ishobora kugaragara ku munyarwanda bitewe n'uko bashobora kuba basagurira n'amasoko.

Ubahinzi mu Rwanda bakomeje gutera imbere, aho hasigaye hanakoreshwa n'imashini mu guhinga, aha bigaragara ko hano hari imashini, irimo guhinga ahantu mu kibaya, kizahingwamo umuceri.

Igihingwa k'imyumbati gikomeje gutera imbere muri aka gace. Bigaragara y'uko hano hahinze igihingwa k'imyumbati kiri hagati mu murima ariko ku mpande hakaba hari ibindi bintu bihahinze bigiye bitandukanye.

Umudamu urimo kwita ku bigori ndetse bigaragara ko bisa n'ibiku, ibyogori bikaba bishishe kandi bisa n'ibiriguterera byarazanye uruyange, ibyo bigori bikaba bisa icyatsi kibisi, hakurya hakaba hari ikindi kibaya gisa n'igihinzemo ibindi bihingwa.

Leta y'u rwanda ikomeje gutera imbere, mu buhinzi, bugezweho, bigaragara ko hano hahinze ibishyimbo ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye, biri murima, uwo murima ruguru yawo hakaba hari inyubako zitandukanye zisarikaye neza, z'amabati y'umutuku.

Umugezi munini ugaragara nkaho ari umugezi urimo amazi asa nabi ariko impande y'uwo umugezi hejuru hakaba hari ibigori biri guterera bisa n'ibigiye kwera. Ibyo bigori bikaba bifite uruyange rwo hejuru, inyuma y'uwo mugezi, hepfo hakaba hagaragara ibyatsi bitoshye ndetse n'akabuga gatoya.

Ubuhinzi bw'ibitoki bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara umurima uhinzemo ibitoki, aho umugabo arimo kwita ku ntoki ze ndetse impande hakaba hahinze imyumbati ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye, bigaragara ko asaruyemo ibigori.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere muri afurika, bigaragara ko ari imboga nyabutongo bahinze mu buryo bwo kurwanya imirire mibi.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu kwihaza mu biribwa by'umwihariko ahagaragara ko barimo gutera avoka ku bwinshi ndetse n'izindi mbuto mu uburyo bwo kurwanya imirire mibi mu Rwanda ndetse bongere uburyo bwo gukoresha imirire myiza.

Ubuhinzi bw'imbuto bukomeje gutera imbere ahagaragara indimu ziri mu giti zisa nk'izitaratukura neza ariko icyo giti kikaba gisa n'igitoshye cyane, izo ndimu zikaba ziteye ahantu bigaragara ko hateye n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ikibaya gisa naho kirimo umuceri, uwo muceri ukaba urinzwe n'udukinisho dutandukanye bigaragara ko ari utwenda, amashashi ndetse n'ibindi mu buryo bwo kugira ngo inyoni zitabasha kuba zawurya, akaba ari umuceri usa n'uri kuma.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Rwanda ahagaragara ko hano muri uyu murima hahinzemo ibihingwa bitandukanye, harimo imyumbati ndetse n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye bigaragara y'uko mbese hasa n'ahahinze hagiye guhingwamo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara ubuhinzi bw'imyumbati ndetse n'urutoki n'ibigori, bihinze hamwe mu murima umwe kandi ubona ko byose bisa n'ibigiye kwera ku buryo birinda imirire mibi ndetse no kubura ibyo kurya bitewe n'amapfa.

Ubuhinzi bukomeje gutezwa imbere mu Rwanda. Ahagaragara ibihingwa bitandukanye bigiye bihinze. Ahantu gasozi haruguru hakaba hari ishyamba rinini, bigaragara yuko iri ishyamba risa n'irikuze.

Ikibaya kigaragara neza gihinzemo ibihingwa bitandukanye, impande y'icyo kibaya hakaba hateye ibiti birebire ndetse ahandi hakurya hakaba hagaragara ikirere gisa umweru w'ijimye ujya kuba ndetse umukara.

Amazi ari gusa napfupfunuka mu musozi hejuru, ahantu hari igihuru kinini cyane kirimo ibyatsi bigiye bitoshye, bigaragara nk'umukenke, bigaragara ko aho hantu ari mu ishyamba rinini ry'inzitane.

Aha hagaragara ibirundo by'inkwi nyinshi zitandukanye, izo nkwi zikaba zigaragara nk'inkwi z'inurusi. Inyuma yazo hakaba hari ikindi ikirundo kigaragara igice cyo hejuru ndetse haruguru hakaba hagaragara ibyatsi bigaragara igice cyo hejuru.

Inzu zituye mu kajagari zigaragara nk'aho ari inzu zishaje. Bigaragara ko aha ngaha ari mu cyaro, ku mpande yaho hakaba hari ibiti kimwe kimwe mu ishyamba ndetse no hakurya hakaba hateye ibiti ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Umuhanda w'igisibanzira bigaragara ko uri guterarera uzamuka hejuru, impande y'uwo muhanda hakaba hari umuyoboro w'amashanyarazi, amapoto y'ibiti ndetse n'ay'ibyuma, bitwara amashanyarazi, umuhanda ukaba urimo abantu ndetse n'ibinyabiziga nk'imodoka.

Ahantu hagaragara nk'ahari umwijima, harimo abantu babiri bambaye amashati asa umweru hejuru, bakaba bari kugenda mu kayira kagaragara nk'aho ari muri parike cyangwa se ahandi hantu nyaburanga, aho hantu hakaba hasa neza, hari ibiti birebire cyane.

Ibiti byinshi birunze, bigaragara ko ari nk'ingeri, iruhande rw'ibyo biti hakaba hari irindi shyamba, biragaragara nkaho ibi biti bisa n'ibikuza cyane, hakurya hakaba hari akandi gasozi kagaragara, agace gato.

Umuyobozi urimo gukoresha inama bigaragara ko abaturage bamukurikiye ku buryo harimo n'Abasirikare, hakabona n'Abadaso, bigaragara ko iyo nama yitabiriwe n'abantu benshi kandi yari ikenewe cyane.

Agasozi kagaragara neza karimo ibyatsi byinshi bigaragara nk'igihuru, ako gasozi kakaba kagaragara nk'aho gahinzeho ibihingwa bigiye bitandukanye, ako gasozi kakaba karimo ibyatsi bisa umuhondo, icyatsi ndetse n'ibiti birebire byinshi.

Ubuhinzi bw'ibitoki bukomeje gutera imbere, ahagaragara urutoki runini cyane. Urwo rutoki rukaba ruri mu kibaya, impande y'urwo rutoki hakaba hari ibiti bigaragara nk'ishyamba riri hamwe, hakurya hakaba hari imisozi miremire ndetse n'ikirere gisa neza.

Ishyamba rinini ry'inzitane ririmo ibiti bisa n'ibikuze cyane. Harimo igiti kitambitse gifite amashami menshi cyane agiye atandukanye. Iryo shyamba rikaba ririmo igihuru k'inzitane ririmo ibiti bisa n'aho bisa n'ibishaje.

lshyamba rinini cyane kandi ry'inzitane ,rigaragara nk'iryororewemo amatungo yo mu gasozi. Bigaragara ko iryo shyamba ririmo ibiti bikuze cyane kandi birebire.

Imisozi igizwe n'amaterasi, iciyeho amaterasi akiri mashya, aho bigaragara ko amaterasi akiri mashya ari amaterasi y'indinganire, hakurya hakaba hari andi materasi hagati yaho hakaba harimo umugezi.

Imisozi migufi cyane igaragara harimo n'ibibaya. Iyo misozi ikaba ihinzeho ibihingwa bitandukanye ndetse hakaba hari n'abantu bahatuye, hagaragara inzu z'amategura ndetse n'intoki hepfo y'urwo rugo rw'inzu y'amategura.

Umugezi munini kandi mugari uciye hagati mu kibaya. Mu mugezi bikaba bigaragara ko haruguru yawo hari ibiti birebire ndetse n'umusozi ugaragara, iruhande yawo hari umugezi.

Agace k'ishyamba karimo ibiti byinshi bigiye bitandukanye, muri iryo shyamba hakaba harimo ndetse n'inzira z'abantu banyuramo bagenda mu ishyamba. Ibiti bikaba bisa n'ibikuze cyane kandi bigasa n'ibimaze igihe kinini.

Ubuhinzi bw'imyaka, ibiribwa mu rugo birimo gutera imbere. Ahagaragara ubuhinzi bw'ibigori bitoshye cyane, bisa n'ibiteye ifumbire, bifasha gukora neza, hakurya hagaragara ibyatsi bitoshye cyane, hose ibyo byose bikaba biri mu kibaya.

Ahagaragara ishyamba rinini cyane, iryo shyamba rikaba rigaragara ririmo ibiti biri kuba umuhondo bitewe n'izuba ryinshi. Ahandi bikaba biri kuba umukara, bigaragara ko aha hantu hakubiswe n'izuba cyane, ubutaka bukabura amazi.

Urusisiro rugaragaramo akayira k'amaguru, ako kayira kakaba ari ak'ibitaka. Ku mpande y'ako kayira hakaba hateye ibiti, biteye ku murongo ndetse n'ibiteye mu murima bivangwa n'imyaka na gereveriya ndetse n'urutoki. Ku rundi ruhande hakaba hahinze ibigori mu ruhande rwo hepfo.

Agace nyaburanga kagaragaramo ibimera bigiye bitandukanye kakaba kagaragaramo ibyatsi birebire ndetse n'ibiti ndetse n'ibindi bihingwa bihinze impande y'ako gace nyaburanga, gasa neza kandi karimo ibyatsi bitoshye.

Ishyamba rinini cyane bigaragara nkaho rishobora no kubabamo inyamanswa. Hepfo y'iryo shyamba hakaba hari ikibaya cyiza cyane, gisa n'icyaragirwamo inka uretse ko bigaragara ko gitoshye ariko gisa naho ubwatsi busa n'uburi kugenda buhindagurika.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara imboga ziteye ku murongo ku buryo bigaragara neza kandi bikanongera umusaruro kubera gushyiramo umwanya hagati yabyo byose.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara yuko ahangaha ibyo kurya bihari bihagije, hagaragara ibigori byeze neza kandi binini ndetse n'inyanya zitukuye mu buryo bwo kwirinda indwara ziterwa n'imirire mibi.

Ubuhinzi bw'inyanya bukomeje gutezwa imbere muri aka karere, ahagaragara inyanya nyinshi cyane zisa n'izitwikiriye kandi bigaragara ko ari inyanyashe zakuze ku buryo birinda yuko abantu bakwicwa n'inzara kubera inyanya zigiye zidahari.

Umubyeyi uri mu mboga ze zigiye ziteye ku murongo bigaragara ko ari imboga zishishe kandi zimeze neza, azakuramo umusaruro uhagije kandi mwiza, uwo mugore akaba yipfumbase bigaragara ko yishimye.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu buryo bwo kongera imirire myiza y'abaturage b'u Rwanda, aho bigaragara ko uyu mugabo ateruye ibase irimo amatunda yo kurya mu buryo bwo kwirinda imirire mibi.

Ubuhinzi mu rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara aba umukobwa urimo gusarura urusenda mu murima, urwo rusenda rukaba rutukuye cyane ndetse inyuma ye hakaba hari amasipure aconze neza ndetse akaba ari kumwe n'abandi iruhande rwe.

Ababyeyi barimo kubagara ibishyimbo, ibyo bishimbo bikaba bigaragara nkaho ari ibishyimbo biri mu gishanga bose bakaba banamye barimo kubagara bigaragara y'uko bishimiye cyane umusaruro ndetse n'ibyo barimo gukora.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutezwa imbere mu Rwanda, ahagaragara uduparisere dutandukanye twinshi, bigaragara ko ari utwo uduce duce hari ah'inyanya, hakaba ah'ibihaza by'amadegede, ah'izindi mboga zigiye zitandukanye.

Uburyo bwo gushidika imbuto ndetse n'imboga bukomeje gutera imbere, ahagaragara umudamu wambaye agapfukamunwa, akaba afashe imboga z'amashu zishiditse, zikiri ntoya mu ntoki mu kantu yagiye azikorera ku buryo bigaragara yuko ziri kwitabwaho mu buryo bwo kwirinda imirire mibi.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu guteza imbere igihingwa cy'imboga, ahagaragara abadamu ndetse n'abapapa barimo kwita ku mboga z'amashu. Iruhande rw'ayo mashusho hakaba hari amateke ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ubuhinzi bw'imboga bukomeje gutera imbere aha hagaragara insenda nyinshi harimo izitukuye cyane zabaye umutukutuku ndetse n'izisa umuhondo, izo nsinnda zikaba zirunze ahantu hamwe zisa neza cyane kuko ziratukuye cyane.

Abadamu babiri bari kumwe n'umugabo bateruye imboga z'amashu mu ntoki zigaragara ko ari imboga nini cyane ndetse hasi hakaba hahinzemo andi mashusho menshi cyane atandukanye. Inyuma y'ayo mashu hakaba hari ibiti birebire.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto bukomeje gutera imbere, ahagaragara ko uyu mudamu arimo gusarura ibinyomoro ariko bikaba bidatukuye. Ibyo binyomoro arimo gusarura, impande yabyo hakaba hari igiti, bigaragara ko ari icy'izindi mbuto zitandukanye.

Uburyo bwo kwita ku mboga bukomeje gutera imbere, ahagaragara igikorwa cyo gukora akarima k'igikoni kuzuye neza, bigaragara ko kagiye guterwamo imboga mu buryo bwo kwirinda imirire mibi no gushishikariza abantu kurya imboga mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye.

Ubuhinzi bugezweho bukomeza gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara ubuhinzi bw'imboga ndetse n'indabyo bitandukanye ndetse n'ibishyigikiro by'imboga kuko bigaragara nk'aho ari umushinga kandi usa n'uri gutera imbere.

Ubuhinzi bw'indabyo buragaragara ko bukomeje gutera imbere mu buryo bwo guteza imbere igikorwa cyo gutaka, ahantu hagiye hatandukanye habereye ibirori, ahagaragara indabyo z'umweru ndetse n'iz'umutuku, zishishe neza kandi zirimo kurabirana.

Ubuhinzi bw'imbuto mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara umusaruro wa avoka nyinshi cyane, izo voka ziba zisa icyatsi kibisi, bigaragara ko mu Rwanda ubuhinzi bw'imbuto bukomeje kuganduka ndetse no kuzamuka mu buryo bwo kongera iterambere ry'Igihugu.

Imirire myiza ikomeje gutera imbere mu Rwanda ahagaragara imbuto z'ubwoko bwose ndetse n'imboga bitandukanye bigaragara ko baciye uburyo bwo kurya nabi bigaragara ko harimo amashu ndetse n'izindi mboga zitandukanye nk'urusenda n'andi mashu agiye atandukanye y'umweru.

Ubuhinzi bw'imboga ndetse n'imbuto bukomeje gutera imbere mu Rwanda. Ahagaragara umuhinzi w'amatunda bigaragara ko afashe amatunda mu kiganza ndetse n'irindi ari kwerekana umusaruro kuko bigaragara ko weze.

Ubuhinzi bukomeje gutezwa imbere mu Rwanda. Aho bigaragara umugabo urimo kuhira imboga mu kibaya, bigaragara ko arimo gukoresha umupira, uwo mugabo akaba yambaye ipantaro y'ikake ndetse n'agapfukamunwa.

Ubuhinzi mu Rwanda bukomeje gutera imbere ahagaragara abaturage barimo kuhira imyaka bateye isa n'igiterwa vuba, abaturage ba baka gukoresha umupira bitabaguyeye ku buryo amazi atarukira impande zombi.

Uburyo bugezweho bwo kuhira imyaka bigaragara ko amazi ari guca mu itiyo, ayo mazi akaba ari kurasa kure cyane bishoboka kugira ngo abashe kuhira iyo myaka bigaragara ko ari myinshi cyane kandi iteye ku murongo, iyo myaka bigaragara ko ari inkeri za kizungu.

Abagabo babiri bari hejuru y'umugezi bigaragara ko umwe arimo kumwereka ibyiza nyaburanga bitatse u Rwanda biri hakurya, abo bagabo bikaba bigaragara ko bahagaze ahantu h'inzira y'ibitaka impande yabo hakaba hari imodoka, ndetse imbere yabo hakaba hari n'ibyuma bibarinda kuba bagwa mu mazi.

Igikorwa cy'ubuhinzi gikomeje gutera imbere ahagaragara umugabo urimo kuhira ibigori, bigaragara ko arimo kuhira ibigori bitangiye guterera bikiri bitoya ariko bitaragera hejuru.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere ahagaragara umukobwa urimo kuhira ibigori biri kumera ndetse n'amashu ari hepfo ye, bakaba bambaye amasarubeti asa ubururu bose bigaragara ko ari nk'itsinda rishinzwe kuhira imyaka.

Aha ngaha ubuhinzi bukomeje gutera imbere, uku hagaragara ubwuhizi bw'imyaka. Ubworozi bw'imyaka bukabukoresha uburyo bwo kohereza amazi imyaka mu buryo bwo kwirinda kumakara, bigaragara ko hari immyaka igiye iteye ku murongo.

U Rwanda rurakataje mu iterambere mu buryo bwo kuhira imyaka bayirinda kumagara ndetse kugirango ubutaka budakanyarara bikaba byatera amapfa mu gihugu, ahagaragara umugabo urimo kuhira akoresheje umupira ku buryo bigaragara ko byose biribuze kugenda neza.

Ubuhinzi bw'imboga mu Rwanda bukomeje gutera imbere, mu rwego rwo kurwanya inzara ndetse n'amapfa mu baturage. Ahagaragara umugabo urimo kuhira amashu. Aya bikaba bigaragara nk'amashu atoshye cyane ndetse n'izindi mboga ziri harya ku buryo hakurya hari abandi bahinzi bari mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Ubuhinzi mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara igihingwa cy'amateke gihinze hagati mu bindi bihingwa bitandukanye, bigaragaramo nk'imboga, hakurya hakaba hari uburyo bwo kuhira imyaka ndetse n'ayo mateke muri uwo murima.

Umugabo usa n'umuzungu urimo gukora igikorwa cyo kuhira imyaka binyuze mu matiyo azana amazi ayakuye mu mugezi bigaragara ko arimo kuyubaka iyo sisiteme kugira ngo ige ikoreshwa mu kuhira imyaka.

Uburyo bwo kuhira imyaka bugaragara neza nk'aho ariyo sisiteme ikunze gukoreshwa kenshi, muri iki kibaya bigaragara ko inyuma yaho hari abantu benshi y'ayo matiyo arimo kohereza amazi muri icyo kibaya mu mitabo irimo ibimera.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere ahagaragara umugabo urimo kuhira imyaka mu buryo bwo kwirinda kumakara cyangwa se kubura amazi mu butaka akoresheje umupira ndetse n'imashini izamura amazi iyakura mu ngo kugira ngo batere amazi.

Ubuhinzi mu rwanda bukomeje gutera imbere ahagaragara ababyeyi ndetse n'abapapa harimo aba mama n'abapapa abo bose bataba barimo guhinga mu murima bigaragara ko harimo imyumbati ndetse n'ibitoki bigaragara yuko ubuhinzi bukataje mu iterambere kandi buteje imbere igihugu.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere, ahagaragara umugabo arimo gukoresha uburyo bwa gakondo bwo kuhira imyaka. Bigaragara y'uko aho hantu izuba riri kuva cyane kuko ibyatsi byabaye umuhondo, akaba arimo gukoresha indobo y'umukara, umugabo akaba yambaye ishati isa umuhondo.

Ubuhinzi bwa kijyambere mu Rwanda bukomeje gutera imbere ahagaragara abahinzi barimo gukora imirimo igiye itandukanye harimo umudamu urimo kuvomera ndetse n'abandi bikoreye ibindi bintu bitandukanye hakurya y'uwo mudamu hakaba hari abandi bari mu murima urimo ibyatsi bitoshye ndetse uwo umudamu akaba ari kuvomera ibishyimbo.

Uburyo bwo kuhira imyaka binyuze mu miyoboro iciwe y'amazi kugira ngo ubutaka bubobere bitume n'imyaka ibasha gukura neza kandi vuba vuba, aho bigaragara ko bari kuvomera ibigori biteye ku murongo.

Ubuhinzi bwa kijyambere bwo gutera ku murongo bukomeje gutera imbere. Ahagaragara amakamba agiye arambuye mu buryo bwo gutera ku murongo batibeshya umurongo, bigaragara ko hari ahateye imboga z'amashu ndetse n'izindi mboga ziri ku ruhande rwo ruguru.

Uburyo bwo kuhira imyaka bakoresheje imirasire y'izuba, aho bitabasaba ko bakoresha umuriro w'amashanyarazi bigaragara ko barimo kuhira imyaka ariko biturutse ku mirasire y'izuba, inyuma y'iyo mirasire y'izuba hakaba hari igihuru kirimo ibikangaga ndetse n'ibindi byatsi bitandukanye.

Ubuhinzi mu rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara umugabo wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ikabutura, bigaragara ko arimo kuvomerera imyaka. Aho hantu hakaba harimo ibyatsi byumye ndetse inyuma ye hakaba hari undi na we wambaye nkuko'uko yambaye, bigaragara ko bose bari mu gikorwa kimwe.

Ubuhinzi bwa kijyambere bukomeje gutera imbere mu Rwanda. Burakataje ahagaragara imashini ihinga ifite amapine, iyo mashini ikaba iri gukoreshwa n'umugabo wambaye ingofero y'umweru ndetse n'isarubeti y'ubururu, impande ye hari undi wambaye ijire y'umukara ndetse n'icyatsi cyererutse.

Mu Rwanda ubuhinzi bukomeje gutera imbere, ahagaragara uburyo bwo kuhira imyaka. Hagaragara umugabo urimo kuhira imyaka ndetse bigaragara ko iyo myaka isa n'itoshye bitewe n'uko ibona amazi ahagije, akaba afashe itiyo mu ntoki, imufasha kuhira imyaka.

Uburyo bwo kuhira imyaka bigaragara ko bukomeje gutera imbere aho bakoresha amatiyo agiye atandukanye bagiye batobota hejuru bagashyiramo ubundi butiyo butoya bwifashishwa banyanyagiza amazi mu myaka kugira ngo ubutaka buhehere.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu buhinzi. Ahagaragara umugabo urimo kuhira imyaka, bikunze gukoreshwa mu turere tugaragaramo izuba ryinshi, cyane cyane uturere tw'Intara y'Iburasirazuba n'Akarere ka Nyagatare ndetse n'utundi turere mu buryo bwo kuhira imyaka bigaragara ko ishishe cyane.

Ubuvomezi mu Rwanda bukomeje gutera imbere, cyane cyane mu turere dukunze kugira izuba ryinshi cyane nk'uburasirazuba, hose Intara y'Uburasirazuba ikunze gukoresha ubu buryo, ahagaragara umuntu urimo kuhira imyaka bitewe no kugira ngo ituma.

Ubuhinzi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, kubera uburyo bwo gukoresha buhira imyaka mu buryo bwo kuyirinda kumagara cyangwa se ubutaka ngo bube bwabura amazi noneho imizi yume. Bikaba bigaragara abantu batatu, harimo umugore umwe wambaye umupira w'umuhondo barimo kuhira imyaka.

Umuhanda w'ibitaka, umuhanda w'ibitaka akaba ari umuhanda munini usa n'ukomeza impande yaho hakaba hari ibihuru bitandukanye bigaragara ko ari ibihuru birimo ibiti birebire, ndetse imbere hakaba hari igihu cy'umweru ndetse n'ikirere gisa ubururu.

Amagare abiri asa n'agiye gutwara amajerekani y'amazi, amagare abiri hakurya yaho hakaba hari agasozi kariho amatarasi ndetse n'indi misozi miremire iri hakurya y'ako gasozi isa naho ituweho n'abantu.

Umusozi mwiza cyane, ugaragara neza, utatswe n'amaterasi y'indinganire. Uwo musozi mu mpande zawo hakaba hagiye hari udushyamba duto duto, hagati y'ayo matarasi, bigaragara ko iterambere rikomeje kuzamuka mu gihugu.

Ikibaya kigaragara nk'ikirimo ibyatsi bitoshye, icyo kibaya kikaba gifite uruhande rumwe ruhingwa ariko urwo hino bikaba bigaragara nkaho ari aho kuragira inka kuko ari umucaca utoshye cyane ariko icya ruguru hakaba hariho n'ikirere gisa neza cyane.

Agasozi keza, agasozi ndatwa kagaragara neza, gahinzeho ibihingwa bitandukanye, bigaragara ko hatuyemo n'abantu, bigaragara kandi hakaba hari n'ishyamba ruguru y'aka gasozi, aho bigaragaramo ibiti binini cyane.

Agasozi ndatwa gatuyeho abantu bagiye batandukanye imbere yako hakaba hari ikibaya gisa n'igihingwamo ibihingwa bitandukanye, ku gasozi ruguru yako hakaba hari udusozi duto duto ndetse ku buryo ubona ko hakurya hari ikirere gisa neza.

Ikibaya gitatse neza gisa neza, gihinzemo icyayi, icyo kibaya kikaba gizemo icyayi, hejuru y'icyo kibaya hakaba hagaragara ikirere gisa neza, iruhande rw'icyo kibaya hakaba hari ishyamba rireguka agace gatoya kandi bisa neza.

Imisozi itegeye ijisho igaragara neza, umusozi umwe ukaba uriho amaterasi y'indinganire. Uwo hakurya ukaba nta matarasi awuriho, ugaragara nkaho uriho ibimera bigiye bitandukanye. Inyuma yaho hakaba hari akandi gasozi gatoya.

Agasozi nyaburanga kandi kakaba n'agasozi ndatwa, waratira n'ahandi kagaragara kari igiti kimwe kimwe mu buryo bwo kwirinda ibiti bihahamira imyaka. kakaba gahinzeho ibihingwa bitandukanye bisa n'ibitoshye, hagati hakaba hagiye habamo n'intabire.

Agasozi ndatwa kagaragara neza karimo ikibaya hagati y'imisozi ibiri hakurya hakaba hari indi misozi igaragara igice gitoya ku buryo ubona ari kure cyane, hakuno hari imiturirwa y'amazu y'amabati ndetse hakaba hagiye hateyemo n'ibihingwa bigiye bitandukanye.

Imisozi miremire igaragara cyane mbese ku buryo ubona ko yitegeye amaso, hasi hakaba hari imiturire y'abantu, iruhande rw'iyo miturire y'abantu ndetse n'amazu hakaba hahinze ibihingwa bitandukanye.

Umusozi ugaragaraho ibihingwa bitandukanye ndetse n'ishyamba. Uwo musozi ukaba urimo ahantu hagiye hahinze hatandukanye ndetse hakaba hagaragaramo n'ibihingwa bigiye bihinze, ku buryo usanga hakorerwamo ibikorwa bitandukanye by'ubuhinzi.

Ahagaragara ishyamba rinini cyane ndetse bigaragara ko ruguru y'iryo shyamba hari ikiyaga kirimo amazi asa n'ahagaze y'ikidendezi ndetse ku ruhande hakaba hari n'ibindi biti bitandukanye ndetse n'ibyatsi n'ibihingwa bitandukanye.

Agasozi ndatwa kagaragaraho amatarasi y'indiganire. Ayo matarasi akaba ahinzemo ibihingwa andi bikaba bigaragara ko ari intabire. Hakurya y'ayo matarasi hakaba hari agace karimo ishyamba ndetse n'umusozi uri impande yayo.

Agasozi ndatwa kagaragara nk'umusozi mwiza ubereye ijisho, umusozi ukaba uriho amazu agiye atandukanye uriho imiturire hasi hakaba hari akandi gasozi kagaragara agace gato ndetse no hakurya y'ako gasozi hakurya kure hakaba hagaragara imisozi ndetse n'ibirwa ndetse n'ikiyaga bigaragara ko ari kinini.

Agace nyaburanga witegeye aho uba ubona amazi, hakurya yaho hakaba hari ikirunga ndetse n'akana kacyo ku buryo uhita ubona ikirere gisa neza ku buryo gifite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru, hino hakaba hari igiti kihateye.

Agace kagaragara nk'umugi, ako gace kakaba karimo imiturirwa myinshi, amazu menshi agiye atandukanye n'amabati agiye atandukanye, ako gace kakaba karimo hino ibiti ndetse n'indabyo zigiye ziconze neza ariko kakaba karimo n'amazu, yubatse mu buryo bw'akajagari.

Agasozi nyaburanga kagaragaraho icyayi cyinshi kandi kimeze neza cya tayi, impande y'icyo cyayi hakaba hari ishyamba, hakurya hakaba harimo inzu imwe, isakarishije amabati y'umutuku, hakurya yaho na none hakaba hari imisozi miremire, ibereye ijisho igaragara neza.

Agasozi ndahatwa, agasozi kagaragara neza, kariho amaterasi y'indinganire. Aka gasozi kaba gafite isura nziza ku buryo hakurya yaho uhabona akandi gasozi ariko katari ak'amatarasi ndetse n'undi musozi, uri hakurya n'indi iri hakuno y'ow nguwo ugakurikiye.

Umugezi ugaragara nk'umugezi urimo amazi arimo urubobi kuko amazi asa umukara ndetse n'icyatsi kijya kuba umukara, haguru y'uwo mugezi hakaba hari ikigunda, kirimo ibyatsi by'imikenke ndetse ruguru hakaba hari ishyamba rinini, ririmo ibiti bikuze.

Ubworozi bw'amatungo bugufi bukomeje gutera imbere, ahagaragara ingurube ebyiri z'umweru ndetse n'indi ijya gusa igituku, impande yazo hakaba hari ibishwashwa byaho baryamisha izo ngurube zirara.

Ubworozi bw'amatungo burakataje mu Rwanda, bukomeje gutera imbere ahagaragara inka ziri mu biraro by'ibyuma, ibyo biraro bikaba bisize irangi ry'mweru ndetse izo nka zikaba zifite abaganga bari kuzitaho bazimenya umunsi ku munsi.

Ishyo ry'inka nyinshi cyane, izo nka zikaba ziri mu rwuri bigaragara ko ari nyinshi zitandukanye, zimwe zifite amahembe yihese, inyuma yazo hakaba hari ibiti birebire ndetse no hakurya hari ikirere gisa umweru n'ubururu.

Aborozi barimo guha umuti ihene, izo hene zikaba zisa n'ihene zishishe zifite ibara ry'igitamo ndetse n'amabara y'umweru, izo hene zikaba zigaragara neza nk'aho ari ihene zivukana kuko zose zirenda gusa urebye.

Inka zirimo kurisha mu gikuyu, bigaragara ko zirimo kuririsha ahantu harimo ubwatsi kuko harimo ibyatsi bigye bitsa icyatsi kibisi, aho hantu hagaragara ko harimo ubwatsi bwo kurisha. Inyuma y'inka y'umukara hakaba hari ibiti bigaragara nkaho ari ibiti by'imbuto.

Ubworozi bw'inka mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara inka nyinshi cyane kandi izo nka zisa n'izitoshye. Izo nka zikaba zifite amahembe maremare y'umweru, ku gasongero agiye ajya gusa umukara zambaye n'amaherena asa umuhondo, harimo iz'ibihogo ndetse n'izisa igikara.

Ahagaragara ko ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere, hagaragara ubworozi bw'imishwi myinshi igiye itandukanye bacaniye bashyizeho imbaburara kugira ngo bubashe gushyuha mu cyumba burimo bwere kuba bwakonja ngo bube bwahondagara.

Igiku kigaragara nk'aho gisa n'igitoshye cyane kirimo inka nyinshi ndetse n'abashumba baziragiye. Izo nka hakaba harimo inka z'amahembe asa umweru, inka z'ibihogo, inka ndetse zisa n'umukara. Aho ngaho hakaba harimo ibyatsi bitoshye cyane.

Ubworozi bugezweho bwa kijyambere bwo korora amatungo magufi bukomeje gutera imbere, ahagaragara inkwavu ziri mu bibuti byazo. Hejuru hakaba hakikijwe n'amasenyenge agiye atandukanye, akoze mu byuma bisize irangi ry'umweru.

Ubworozi bw'amatungo mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara ihene nyinshi zitandukanye z'amabara agiye atandukanye, harimo iz'umukara n'iz'amabara y'umweru n'umukara ndetse n'iz'umukara wuzuye, izo hene zikaba zifite amaherena ku matwi asa icyatsi.

Inka ziri mu kiraro zifite amahembe maremare kandi meza y'umweru ayo mahembe akaba agaragara akoze inyuguti ya vi, izo nka zikaba zisa ibihogo, inyuma yazo hari abaganga bazo bambaye amataburiya ndetse n'abandi bambaye amasarubeti asa ubururu.

ubworozi bw'amatungo muri aka gace bukomeje gutera imbere, ahagaragara inka nini cyane, zifite amahembe maremare ndetse hepfo hakaba hari n'abavuzi bazo, barimo kuzitera.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere, ahagaragara intama nziza cyane z'umweru zirimo isekurume ndetse n'inshashi. Zubakiye ahantu harimo senyenge ndetse n'ibyuma bifashe senkenge.

Ibyana by'ingurube bitatu biri mu kiraro cyabyo, bisa naho biri gusunikana, biririra mu mbehe imwe, birimo kurya ibyo kurya byazo byatunganyijwe. Izo nyamaswa zikaba zigaragara neza, zisa n'izishishe, ziri mu kiraro kimwe.

Ubworozi mu Rwanda bukomeje gutera imbere aho hagaragara inka iri mu kiraro cyubakishije ibiti, irimo kurya ibyatsi bigiye bitandukanye, bigaragara ko u Rwanda iterambere rikomeje kuzamuka mu bworozi.

Ubworozi bw'amatungo maremare bukomeje gutera imbere, aha hagaragara inka nyinshi cyane zirimo kurisha ibyatsi ndetse n'ibiryo byatunganyirijwe, zikaba ziri mu biraro bitandukanye bigaragara ko bisakarishije amabati.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara ihene z'amabara meza zibyibushye zirimo kurisha mu kibara, izo hene zikaba zifite amabara y'umweru ndetse n'ikijuju, izo hene bikaba bigaragara ko zirimo kurisha.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere burakataje mu Rwanda, ahagaragara amahene menshi cyane ari ahantu yororerwa hamwe akaba ateye n'amaherena y'umuhondo bigaragara ko ubworozi bukomejekataza mu Rwanda uburyo bwo kugabanya imirire mibi n'ubukene.

Inka nyinshi zisa n'izibyibushye kandi nziza ziri mu gikuyu. Izo nka hakaba harimo inka z'amabara agiye atandukanye ariko izo nka zikaba zidafite amahembe harimo iz'ibihogo iz'umweru ndetse n'izisa igikara.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere ahagaragara inkwavu nziza zibyibushye z'amabara agiye atandukanye harimo iz'umukara, iz'umweru, bigaragara ko izo nkwavu ziri kwitabwaho kuko hagaragara abavuzi bazo barimo kwandika ndetse no gufotora.

Ubworozi bw'amatungo bukomeje gutera imbere ahagaragara ingurube isa igitamu irimo kurya ibyatsi hasi ndetse n'ibyo kurya byayo hasi, ikaba ihugiye mu gutora ibyo hasi ihunahuna.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere, ahagaragara ingurube yabwaguye ibyana bibiri, ibi bibwana bikaba birikonka ndetse n'iyo ngurube ikaba isa n'irimo kurya ihunahuna mu byo yariye yashigaje.

Ubworozi bw'amatungo bwa kijyambere bukomeje gutera imbere, ahagaragara inka iri mu kiraro cyubatse neza, gikoteye na sima y'igiheri ndetse hakaba harimo n'ibyuma, bigaragara ko ukwitabwaho kw'inka mu Rwanda, gukomeje gutera imbere, iyo nka ikaba ifite amabara asa umweru ndetse n'ay'umukara.

Inka nini y'amabara y'umweru n'umukara ifite icebe rinini, iyo nka ikaba isa n'ihatse mbese bigaragara ko wagira ngo ifite amezi.

Ubworozi bw'amatungo mu Rwanda bukomeje gutera imbere ahagaragara ingurube nini cyane yabwaguye ibyana bigiye bitandukanye byinshi bigiye bifite n'amabara atandukanye igaragara nk'aho yabyaye ibyana byinshi birenga na bitanu.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere, ahagaragara ihene nyinshi cyane zigana ku isoko wagira ngo zimugare kuzigura izindi zirimo kugurishwa izo hene zikaba ari nyinshi cyane z'amabara agiye atandukanye.

U Rwanda rukomeje kwiteza imbere mu bworozi bw'amatungo magufi ahagaragara umugabo urimo kwita ku matungo magufi ariyo inkoko, bigaragara ko yiteje imbere ku rwego rwo hejuru kuko afite inkoko nyinshi.

Ubworozi bw'ingurube bukomeje gutera imbere, ahagaragara ibibwana byiza bitatu, bisa neza, birimo hasi mu nzu, aho biba mu ikiraro cyabyo. Hasi hakaba hashashemo umuyuku ku buryo bigaragara nkaho bisa neza.

Umuvuzi w'inka urimo kureba uburyo inka zirimo kurya azisuzuma kugira ngo arebe iyaba irwaye cyangwa se iva ubujyegenda kanwa, izo nka zikaba ziri hamwe akaba yambaye we itaburiya y'umweru ndetse n'inkweto zisa umweru n'umukara.

Inka iryamye mu kiraro cyayo bigaragara ko ari inka isa neza y'amabara atandukanye, ifite ibara ry'umweru mu mpanga ndetse no mu gituza cyayo ikaba ifite andi mabara atandukanye n'amabara y'umukara.

U Rwanda rukomeje gukataza mu iterambere ryo kwita ku matungo magufi y'inyamabere, ahagaragara ihene nyinshi cyane zorowe kandi bigaragara ko zororewe ahantu heza bigaragara ko zitabwaho bihagije kuko zisa neza.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere ahagaragara inkoko nyinshi kandi nini, zisa n'izibayeho neza zibyibushye bigaragara ko zibayeho neza kuko ziri ahantu hatekanye kandi hakoze neza.

U Rwanda ruri gutera imbere mu bworozi bw'amatungo magufi, ahagaragara ko aha baririmo korora inkoko nyinshi zitandukanye, izo nkoko zikaba zirimo gutorera ahantu hamwe bigaragara ko ari nyinshi cyane kandi nziza zinabyibushye.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere, aha ingurube nziza kandi nini, igaragara nkaho isa n'ikuze, mbese bigaragara nkaho yaba inahatse, ihagaze mu cyumba cyayo aho yororerwa, hasi hashashemo umuyugo uva ku mbaho.

Uburyo bwo kwita ku mata kugira ngo aze afite ubuziranenge bukomeje gutera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ahagaragara nk'ikusanyirizo ry'amata arimo gutunganywa kugira ngo abashe kuba yanyobwa n'Abanyarwanda, bigaragara ko u Rwanda rukomeje gutera imbere.

Mu Rwanda ubworozi bukomeje gutera imbere, ahagaragara inka zibyibushye z'ibihogo ndetse n'izindi ziri hakurya yazo byegeranye zisa umweru ndetse n'umukara. Hakurya y'izo nka hakaba hari imbuto zihahinze bigaragara nkaho ari indimu ndetse n'ibindi bihingwa bitandukanye.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere ahagaragara ubworozi bw'inka nyinshi zifite amahembe maremare y'umweru, inyuma y'izo nka hakaba hari abavuzi bazo bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amasarureti y'ubururu.

Inka y'amahembe iri mu kiraro cyubatse neza, iyo nka ikaba isa igikara, bisa naho iri muri icyo kiraro, hejuru hasakarishije amabati ku buryo ubona neza yuko nta mazi yapfa kuyigeraho ku buryo zibayeho neza.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu Rwanda ahagaragara ingurube ibyibushye cyane irimo konsa ibyana byayo ibyo bana bikaba ari bitatu bigaragara ko bikiri bito ndetse bikaba bigaragara ko n'iyo ngurube imaze gukora ifite amabara ajya gusa umukara ndetse n'umweru.

Ubworozi bw'amatungo magufi y'inyamabere, bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara ihene nyinshi zitandukanye z'amabara atandukanye. Izo hene zikaba zifite amabara y'umweru ndetse n'ay'igitamu, ku mitwe yazo bigaragara ko ihene za kizungu kandi nyinshi, zirimo kurisha ahantu mu kigunda.

Ubworozi bw'amatungo magufi cyane cyane inkoko bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara umuturage wakoze umushinga wo korora inkoko, azororeye mu kiraro cyubakiye ku buryo aziheramo ibyo kurya.

Ihene zirangiriye mu mu kibara bigaragara ko ari ihene nyinshi z'amabarage atandukanye, iz'igitare, n'iz'umweru, iz'amabara avangitiranye n'umweru, bigaragara ko ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere.

U Rwanda rukomeje gutera imbere mu bijyanye n'ubworozi bw'amatungo magufi, ahagaragara ko hari inkoko nyinshi cyane zororewe ahantu bigaragara ko zirimo gutora ibyo kurya, inkoko z'amabara agiye atandukanye, iz'umweru, iz'umukara harimo inkokokazi n'ibisake.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere ahagaragara ko hororegwa inkoko nyinshi zitandukanye z'ubwoko butandukanye zatubuwe, izo nkoko zikaba zigaragara nk'izishishe ku buryo zimeze neza.

Inka nziza cyane y'amabara y'umweru ndetse n'ayo umakara. iri mu kiraro ikaba mu kiraro cyubakishije imbabari ndetse n'ibiti bishinze. Ikaba isasiye neza ku buryo nta cyodo kirimo kandi ikaba igaragara nk'inka itoshye y'ikimasa.

Aha ngaha hakomeje kugaragara ubworozi bw'amatungo maremare, bigaragara ko bukomeje gutera, ahagaragara inka nyinshi zitandukanye ziri mu biraro bisakarishije amabati, imbere yazo hakaba hari abari kuzitaho harimo n'abazivura.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutezwa imbere, ahagaragara ingurube ebyiri ariko imwe igaragarira mu cyumba irimo ndetse ikaba yubakishije ibyumba n'imbabari, ibyibushye cyane ndetse n'ingenzi yayo ikaba ibyibushye.

Aha ngaha biragaragara ko ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere, ahagaragara inkoko zisa n'izishishe cyane zigaragara ko ari inkoko nziza kandi zibyibushye, izo nkoko zikaba zisa umutuku zifite ndetse n'ibirokoroko binini.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere, ahagaragara ibyana by'ingurube birenga bitanu, ni ahantu hubakiye kandi bikaba bigaragara ko ari ibyana bikuze ku buryo byakibana bitari kumwe n'ibibyara.

Inkwavu zigaragara ko ziri mu kabuti kazo, hari udusahani baziheramo ibyo kurya. Izo bikaba bigaragara ko ari uburyo bwo kunoza ndetse no kongera uburyo bwo kubona ibyo kurya bitera vitamine nk'inyama zikomoka ku nkwavu.

Inka z'amahembe manini cyane ziri mu gikuyu bigaragara ko harimo inka z'ibihogo, izo nka zikaba zirimo kurisha mu gikuyu kirimo ibyatsi birebire cyane, iruhande rw'izo nka ahagana haruguru hakaba hagaragara ibiti ndetse n'ipoto itwara umuriro w'amashanyarazi.

Aha ngaha biragaragara ko ubworozi bw'amatungo magufi buri gutera imbere, ahagaragara ihene nziza cyane zitoshye za kizungu kandi zishishe z'amabara agiye atandukanye harimo n'amabara y'umweru, ziri mu bwatsi busa n'ubutoshye nkaho zirimo kurisha.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere. Ahagaragara ingurube y'umweru, iyo ngurube ikaba iri mu kiraro cyayo, hasi hakaba hasandagijemo umuyugu w'ibiva ku mbaho mu buryo ibone aho iryama, biyoroheye biyirinde kuba yarwara uburenge.

Ubworozi bw'amatungo magufi mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara ihene ziteye amaherena y'icyatsi zisa umweru ndetse harimo n'izifite amabara y'igitamu ndetse n'umukara mu mutwe. Izo hene zikaba ari ihene zisa neza kandi ziba ahantu heza kandi hizewe.

Ubuhinzi bukomeje gutezwa imbere mu Rwanda, ahagaragara ibishyimbo byiza cyane biri ku isahani y'idongo y'umweru. Ibi bishyimbo bikaba byarabonetse kubw'impamvu zo kubihinga, bigaragara ko u Rwanda rukomeje gutera imbere mu kwihaza mu biribwa.

Ubuhinzi bugezweho bukomeje gutera imbere ahagaragara umusaruro mwinshi w'ibigori byumye, ibyo bigori bikaba bigaragara n'ibyasaruwe, ibyo bigori bikaba bisa umweru, hakaba hari abantu baje kureba uwo musaruro w'ibigori uburyo ari byinshi cyane.

Ubuhinzi bugezweho mu Rwanda bwo gushyidika imboga burakataje, ahagaragara imboga zigiye zishinditse muri buri cyobo ndetse bikaba bigaragara nkaho ari uburyo bugezweho bwo kwita ku mboga mu buryo bwo kurwanya imirire mibi mu banyarwanda.

Aha ngaha haragaragara ko uburyo bw'imirire myiza mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara ibisate by'amageri, isoya, ibishyimbo ndetse n'ibindi binyamisogwe bitandukanye aho bigaragara ko biri hamwe bigaragaza ko imirire myiza ikomeje gutera imbere.

Abagore bakoze itsinda ari benshi bigaragara ko bari gutora ibishyimbo bigiye bitandukanye, bigaragara ko umusaruro w'ibishyimbo ukomeje kwiyongera, aho bigaragara ko bakoze itsinda rimwe, barimo kubitorera hamwe.

Ubuhinzi bw'ibishyimbo bukomeje gutera imbere, ahagaragara abadamu batandukanye bigaragara ko bafite ibishyimbo by'ubwoko butandukanye mu ntoki, bigaragara ko umusaruro w'ibishyimbo ukomeje kwiyongera mu Rwanda.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere, ahagaragara ibigori byinshi bitonoye, bigaragara ko hari n'ibigori byiza kandi bisobanutse, binini, inyuma yabyo hakaba hari abagabo ndetse harimo n'umuzungu, abo bose bakaba barimo kureba uwo musaruro uburyo ari mwinshi kandi ari mwiza.

Abavuzi b'inka barimo kuzitera inshinge, bigaragara yuko aba bavuzi bose bambaye amasarubeti asa ubururu, umwe yambaye bote zisa umweru. Bigaragare ko bahugiye mu gikorwa kimwe.

Abavuzi b'inka babiri bambaye amasarubeti y'ubururu, umwe yambaye ingofero y'umweru, yambaye na bote z'umweru, barimo gutera urushinge inka, bigaragara yuko barimo kuyitera bayihata kuko bose barayifashe kugira ngo itishika rukavunikiramo.

Umuganga w'amatungo urimo kuvura ingurube ayitera urushinge, bigaragara ko yambaye na we yikwije hose mu buryo bwo kwirinda indwara zindi yakandura, yambaye n'udupfukantoki.

Abavuzi b'amatungo barimo gutera inshinge amatungo atandukanye, bigaragara ko ari gukura umuti mu icupa awushyira mu gakoresho gakoreshwa batera inshinge ndetse n'umuti mu matungo.

Imbwa yambaye umurunga, inyuma yayo hari iyindi, iri kugaragara agace gatoya, izo mbwa zikaba ari ibitabo ziryamye ku buringiti. Izo mbwa zikaba ziryamye ndetse no ku ikayi, buri yose igaragaza nimero yayo.

Umuvuzi w'amatungo bigaragara ko bari barimo kubaga inyama. Akaba arimo kuzisuzuma ngo arebe ikibazo zaba zari zifite kugira ngo babashe kwemererwa kuba bazirya. Akaba yambaye itabariya y'umweru.

ubworozi bw'amatungo mu Rwanda bukomeje gutera imbere, ahagaragara amatungo, inka nini cyane, zibyibushye, zifite amahembe maremare y'umweru, izo nka zikaba ziri hamwe mu kiraro. Hepfo yazo hakaba hari abaganga bazo, bazitaho umunsi ku munsi bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'amasarubeti yo mu bururu.

Ubworozi bw'amatungo bwa kijyambere bakomeje gutera imbere ahagaragara abavuzi b'amatungo barimo kuyitera imiti ndetse iyo nka akaba ari inka y'ibihogo ifite amahembe maremare.

Aha haragaragara ingurube isa n'iryamye, aho ishobora kuba ifite ikibazo kuko aho iryamye niho n'ubundi irimo kujya yituma, bigaragara ko ishobora kuba irwaye cyane.

Abaturage bari kumwe n'ushinzwe kuvura inka, wambaye itaburiya y'umweru, arimo atera urushinge inka y'umukara bayifashe mu mazuru ndetse bayifashe bayiziritse n'amaguru kugira ngo itabasha kwinyagambura.

Abavuzi b'amatungo bigaragara ko bari kuvura imbwa yakomeretse. Aba bavuzi bakaba ari babiri, aho bigaragara ko bashobora bari bwanayipfuke, bitewe n'igisebe ifite, ikaba iryamye ku buriringiti ndetse bakaba bafite n'iserenge yo kuyitera, urushinge.

Umuvuzika urimo gusuzuma inyama niba ari nzima. Umuvuzi bikaba bigaragara ko ariko kazi ahugiyemo, akaba yambaye udupfukantoki ndetse n'amataratara, akaba yambaye ndetse n'itaburiya.

Ubworozi bw'amatungo magufi bukomeje gutera imbere mu Rwanda, ahagaragara imishwi irimo koteshwa ku mbabura bashyize hagati aho iyoshwi iba mu buryo bwo kwirinda imbeho izi mishwi ndetse bikaba bigaragara ko zitabwaho zihabwa n'ibyo kurya.

Inyana igaragara nk'ikivuka, iyo nyana ikaba iri ahantu iryamye, impande yayo hakaba hari umuziha uva mu nka nyuma y'uko inka imara kuvuka, iyo nyana ikaba ifite inzara zigisa umweru kandi bigaragara ko iryamye hasi.

Abavuzi b'inka barimo kwita ku nka, iyo nka akaba ari iy'ibihogo ndetse n'izindi ziri inyuma yayo zifite amahembe maremare, bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'isarubeti y'ubururu.

Abavuzi b'amatungo basa n'abari kuvutira babyaza inka, bigaragara ko ari babiri, bose bakaba bafatanyije kuvura, barimo kubyaza inka, inka ikaba iri mu kiraro cyubakishije ibiti bisa n'ibyumye cyane, bigiye gusaza.

Inka nziza nini cyane igaragara nk'aho iri mu rwuri, ikaba irimo kurisha ubwatsi, iruhande rw'iyo nka hakaba hari ahantu hahinze ibigori bisa neza cyane, iruhande rwo ruguru hakaba hari igiti gisa n'aho ari icya voka.

Abavuzi b'amatungo barimo gutera inshinge inka bazikingira, abo bavuzi bakaba bambaye amasarubeti asa ubururu ndetse abandi bakaba bambaye amataburiya y'umweru bigaragara ko bose bari mu gikorwa cyo gukingira inka.

Imisambi ibiri, iri ahantu mu kigunda, icyo kigonda kikaba kirimo ibyatsi byinshi, birebire ndetse hagaragara nk'aho harimo ndetse n'ibindi biti byumye, bigaragara nk'aho ari ibigorigoreri cyangwa se imihembezo y'ibishyimbo.

Ubwiza nyaburanga buranze u Rwanda bigaragara ko buherereye aha ngaha. hagaragara inyamaswa zitandukanye harimo inzovu, imbogo, intare, impala ndetse na twiga n'ingwe biri hose byose biri hamwe, bigaragara ko biri muri pariki yazo, aho ziba.

Inyamaswa y'ingwe ifite amabara meza, ifite ubwoya bw'umweru ku munwa wayo ndetse no ku bitsike byayo, ifitefite amabara asa umweruru, umukara w'utudomodomo ndetse n'umuhondo, iyi nyayamaswa ikaba iryamye ku giti cyumye.

Ahantu hagaragara nko muri pariki y'inyamaswa z'inyagasozi, hagaragaramo impongo ndetse hakaba harimo impara ndetse n'imparage. Zose zikaba zisa n'iziri mu byatsi bisa n'ibiri kuma bitewe n'izuba ryinshi, ahagaragara. Hakurya ikindi kirere gisa ukwacyo.

Imbata irimo koga mu mazi, bigaragara ko ayo mazi ari urubogobo ku buryo ahita afata iyo sura yayo, ikaba isa nk'ikirori. Iyo mbata ikaba ifite ku mutwe ibara ry'icyatsi, ku munwa iry'umuhondo, amababa yayo ayifasha kuguruka ari umweru.

Imbata ebyiri ziri mu mazi bigaragara ko isoni zirimo koga mu mazi, izo mbata inyuma yazo hakaba hahinze ibihingwa bitandukanye harimo n'indabyo z'ubwoko bwiza zisa neza z'umweru, aho ziri amazi akaba asa icyatsi.

Kwita ku nyamaswa z'inyagasozi bikomeje gutera imbere, ahagaragara ko hano harimo inzovu ndetse impara n'imparage na twiga, bigaragara ko biri muri pariki ahantu ziba kandi bikaba bigaragara ko zifite umutekano kuko byose ubona ko bituje.

Icyana cy'intare kigaragara ko kiri mu giti, icyo giti kikaba kigaragara nk'ishami ry'igiti gisa n'igishaje. Iki cyana k'intare kikaba gifite amabara y'umweru ku munwa ndetse no ku maguru, kikagira umurizo ufite igice gisa umukara.

Inyamaswa y'impara, bigaragara ko ari inyamaswa y'inyagasozi iri mu kibara, aho hantu hakaba hagaragarara ibyatsi, bisa icyatsi kibisi, bigaragara nk'ibitoshye nkaho ari ubwatsi bwo kurya bwazo, ifite amabara y'umuhondo n'ay'umukara meza.

inyamaswa y'inyagasozi, iyo nyamaswa ikaba igaragara nk'iziri mu bwatsi butoshye, iyo nyamaswa ikaba ifite mu maso hayo h'amabara abiri atandukanye, umweru n'umukara. ikaba isa igikara, hakurya yayo hakaba hari ibyatsi bisa n'ibyakubiswe n'izuba, bigaragara ko iri mu byatsi.

Inzovu ziri mu mazi bigaragara ko ziri nko mu kiyaga, aho hakurya hari ishyamba rinini impande y'uwo mugezi, uwo mugezi ukaba ufite amazi y'urubogobogo, ajya gusa umweru mbese bigaragara ko ari gufata ikirere isura yacyo

Inyamaswa y'inyayagasozi y'impara, ifite amabara y'umweru ndetse n'ay'umukara bigaragara ko iri muri pariki aho ziba, naho hakaba hari igiti cyahungutse amababi.

Inyamaswa y'ingwe, igaragara nkaho iri kureba imbere yayo, inyamaswa ikaba ifite amabara agiye atandukanye meza y'umuhondo ndetse n'umukara n'umweru. Ikaba ifite ubwoya busa umweru ku munwa wayo ndetse no ku bitsike.

Inyamaswa y'inyagasozi igaragara nk'inyamaswa ibyibushye iyi nyamaswa ikaba ifite ubwoya bujya gusa umutuku uvanze n'umuhondo, ifite mu nda hayo ho hasi hasa umweru, iyo nyayamaswa inyuma yayo hakaba hari ibiti byinshi ndetse hasi hari indabyo zisa iroza.

Kasuku eshatu z'inyoni, izo Kasuku zikaba ziri mu giti, aho bigaragara ko ari eshatu, ku ruhande rwo ruguru ariko hakaba hari indi igaragara umutwe gusa, izo Kasuku zikaba ziri ahantu ku giti.

Inyamaswa y'agasozi irimo kurisha ibyatsi bitoshye hasi. Impande yayo hakaba hari umugezi ndetse n'urutare ruri impande y'uwo mugezi. Hakurya hakaba hari ubundi bwatsi butoshye, bigaragaza uburumbuke ndetse bikaba bigaragaza ko nta nzara, inyamanswa.

Umugabo uhetse igikapu cy'umweru, wambaye agapira k'amaboko k'ubururu bwerurutse, inyuma ye hari inkende irimo kumwitegereza n'indi iri kuzamuka ruguru.

Imparage ziri muri pariki yazo, aho ziba, bigaragara ko zikuze cyane izo nyamaswa zikaba ari nyinshi cyane, ahagaragara ko ibyatsi birimo kuma bitewe n'izuba ryinshi, mbese ku buryo n'amababi y'ibiti yatangiye kugenda ahunguka.

Inyamaswa zirimo kwikinangura, aho intare isa n'ishaka kuruma mu mugongo impara. Bigaragara ko ziri muri pariki zose, aho imwe ishaka kwiyenza ku yindi ishaka kuyiruma ziri mu byatsi.

Icyanya nyaburanga kigaragara nko muri parike, ahagaragara imbogo zirimo kurisha ibyatsi nk'inka, harimo n'ibiti birebire, izo mbogo zikaba zirisha urebye nk'inka neza.

Inyamaswa y'inkende bigaragara ko yicaye ahantu yegamye, ikaba yicaye hasi hasa n'ahakoteye sima, iyo sima ikaba igaragara nk'igiheri, iyo nyamaswa y'inkende ikaba ifite ubwoya busa umweru, ifite umunwa usa umutuku.

Imodoka ya ba mukerarugendo bigaragara ko baje mu mapariki y'inyamaswa ahagaragara inzovu zisa neza cyane kandi bigaragara ko ari pariki yegereye ibirunga ahantu ubona ko hari imisozi hakurya yaho.